Kwegereza abaturage serivisi z'ikorana n'ikoranabuhanga ni ingenzi kuko bibafasha gusobanukirwa ikoranabuhanga batunze neza, ni byiza ko tugomba kwita ku baturage tubasobanurira uburyo ikoranabuhanga rikora haba kubitsa ndetse no kubikuza, ni byiza ko abaturage tugomba kugana abakora mu ikoranabuhanga kugira ngo bashe kudusobanurira byinshi byimbitse ku ikoranabuhanga tuba dutunze.

Urujya n'uruza rw'abantu rwahuriye mu isoko biganjemo abagabo, abagore, abana ndetse n'abakecuru bakaba bafite ibikoresho bitandukanye nk'amagare, amamoto ndetse n'abari gutanga serivise zigendanye n'ikoranabuhanga bazwi nk'abejenti.

Abatanga serivise zigendanye n'ikoranabuhanga, bavuga ko ari ingenzi guhugura abaturage mu bigendanye n'ikoranabuhanga kugira ngo babashe kumenya ikoranabuhanga batunze uko barikoresha, babashe kumenya kubika no kubikuza bakoresheje ikoranabuhanga.

Abaturage bavuga ko ari ingenzi kwegerezwa serivisi z'ikorana n'ikoranabuhanga, kubera ko bibafasha kumenya byinshi byerekeranye n'ikoranabuhanga. Bakomeza bavuga ko ari byiza kubera ko babasha kumenya kubika no kubikuza, kugura amayinite bakoresheje ikoranabuhanga mu buryo bworoshye aho baba bari hose.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye bwiganjemo amazi, imbuto, harimo imineke, intababara, amacunga ndetse n'ibinyomoro, abakora umwuga w'ubucuruzi basobanura ko ari ingenzi kugira ibicuruzwa byose kugira ngo abakiriya babagana babashe kubona ibyo bakeneye.

Abaturage basobanura ko kwegerezwa serivisi z'ikorana n'ikoranabuhanga ari ingenzi mu buzima bwabo, kubera kobibafasha gusobanukirwa ikoranabuhanga batunze. Abakora muri serivisi zigendanye n'ikoranabuhanga basobanura ko bafasha abaturage kumenya serivisi zo kubika ndetse no kubikuza bakoresheje telefoni.

Inzu ikorerwamo serivisi zigendanye n'ikoranabuhanga, hejuru yaho hakaba hashushanyijeho telefone igaragaza ibyo bakora, abahagana bavuga ko ari ingenzi kubera ko bibafasha kumenya ibintu bigiye bitandukanye ku ikoranabuhanga.

Abakora muri serivisi zigendanye n'ikoranabuhanga bazwi nk'abayegenti, basobanura ko ari ingenzi gukora akazi kabo kubera ko bibafasha kubona amafaranga yo gukemura ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo kandi bakaba bagakora bakishimiye. Bakomeza bavuga ko ari ingenzi kubagana kuko basobanurira abaturage uburyo ikoranabuhanga rikoreshwa bityo bakabasha kuritunga bazi kurikoresha.

Abakora umwuga w'ubucuruzi bishyize hamwe bavuga ko ari byiza gucururiza hamwe kubera ko bibafasha kubona inyungu ihambaye ndetse bakabasha no kubona amafaranga yo kwizigama n'ayo gutungisha imiryango yabo kubera ko baba bakoreye hamwe bakungurana inama n'ibitekerezo.

Ahahuriye abantu benshi haba ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira buri umwe wese waje aho ngaho abashe kumva neza, twavuga nk'indangururamajwi ikoreshwa kugira ngo buri muntu wese abashe kumva, imfatashusho yifashishwa kugira ngo n'utahageze abashe gusobanukirwa icyabaye ndetse n'intebe bicaraho igihe bahageze.

Abakorera mu bimina bizwi nka koperative mu ndimi z'amahanga, bavuga ko ari byiza gukorera mu bimina kubera ya ko bibafasha kwiteza imbere ndetse buri umwe wese akaba yakwikura mu bukene kubera gukorera mu kimina, bakomeza bashishikariza buri muntu wese ko ari byiza gushaka ikimina yajyamo, kugira ngo bibashe kumufasha kwiteza imbere ndetse yungukiremo na byinshi bigiye bitandukanye bigendanye n'icyo kimina uko gikora.

Ahateraniye abantu benshi haba ari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo ikintu cyabateranyije aho ngaho kibashe gukorwa neza. Twavuga nk'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri umwe wese abashe kumva, imfatashusho yifashishwa kugira ngo n'utahageze abashe kumenya ibyabaye ndetse n'intebe bakoresha bicayemo.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibigori basobanura ko ari byiza kubera ko bibafasha kubona amafaranga abakemurira ibibazo, basobanura ko ibigori biribwa mu buryo butandukanye, babinywamo igikoma, baryamo ubugari ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bikorwamo ibigori.

Abakozi bakora muri banki baba bakeneye ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kwita kubabagana neza. Twavuga nk'ikaramu bakoresha barimo basinyira ababaganye, amafaranga bakiriye cyangwa se batanze, aho basinyira nk'ikayi cyangwa se igitabo ndetse n'amazi bakoresha bari kunywa igihe bumva mu muhogo hajemo icyaka.

Abakozi ba banki basobanura ko banejejwe n'akazi bakora kuko kaba amafaranga yo kwibeshaho no gutunga umuryango buri munsi. Basobanura ko ari ingenzi kwakira ababagana neza kuko bibafasha kubona isura nziza ndetse bikanabafasha no gukomeza gukorera hamwe.

Abakozi bakora muri serivisi zigendanye no gutanga amafaranga, basobanura ko ari ingenzi kwakira neza ababagana ndetse babasobanurira uburyo kwakira amafaranga se cyangwa kuyafata ari byiza kandi bakabikora mu buryo buboneye. Ni byiza ko tugomba kwakira neza abatugana kugira ngo tubashe kubaha serivisi nziza maze babashe kugenda bishimye.

Abakorera hamwe akazi kagiye gatandukanye bazwi nk'abafatanyabikorwa basobanura ko ari ingenzi gukorera hamwe kuko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakiteza imbere kandi buri muntu wese akaba yakwikura mu bukene kubera gukorera hamwe. Bavuga ko ari byiza kubera ko ubikoze ahabwa n'icyemezo cy'uko yakoranye n'abandi ndetse bakanamushimira bakamuha ibihembo bityo n'abandi bakaboneraho kugira ngo babashe kugira umuco wo gukorera hamwe.

Abakozi bakora muri banki baba bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gukora akazi kabo neza, twavuga nk'intebe bicaraho igihe barimo bakora akazi, mashini ibafasha gushaka imyirondoro igiye itandukanye ndetse n'ubushakashatsi bugiye butandukanye ku kazi bakora ndetse n'amazi yo kunywa igihe bafite inyota.

Urubyiruko ruri hamwe rwiganjemo abakobwa ndetse n'abasore, aho bahagaze hafi y'inzu bakaba bafite icyapa mu ntoki, impande zabo hakaba hari indabo bavuga ko ari byiza kwegerana kugira ngo babashe kongera kuganira ku biranga urubyiruko, babashe no kwiteza imbere bakoreye hamwe.

Mu nyubako zitanga serivisi zigendanye n'ibyo kunywa zizwi nka bare, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwakira neza ababagana. Twavuga nk'intebe bicaraho ndetse n'imeza bashyiraho icyo kunywa, ibikombe bakoresha barimo basukamo ibyo kunywa.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kunywa bizwi nka bare, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo ababagana babashe kubona serivisi nziza, twavuga nk'intebe bicazaho abakiriya, ameza yo gushyiraho ibyo kunywa, ibinyobwa bigiye bitandukanye by'amoko yose.

Ibigo bitanga serivise zigendanye n'ibyo kunywa bizwi nka bare, aho umukiriya yakirwa haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumwakira neza, twavuga nk'intebe umukiriya yicaraho, ibinyobwa ibyo aribyo byose bikenewe kugira ngo umwakira abashe kubona ibyo amuha.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bwiganjemo amakaramu. Amakaramu ni igikoresho cyifashishwa n'abanyeshuri ndetse n'abandi bantu batandukanye, igihe barimo bakora inyandiko se cyangwa barimo bandika ibintu runaka. Ni byiza ko tugomba kumenya agaciro k'amakaramu kugira ngo tubashe kuyasigasira neza bityo tubashe kuyakoresha icyo yabugenewe.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi. Higanjemo icyo kunywa kiri muri termosi ndetse n'amandazi ari mu ndobo. Ni byiza ko abakora umwuga w'ubucuruzi bagomba kugira ibicuruzwa byose kugira ngo ababagana babashe kubibonera ku gihe bityo nabo umusaruro w'amafaranga babona ubashe kwiyongera.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye bwiganjemo ibyo kunywa ndetse n'ibikoresho, twavuga nk'inzoga, ji, fanta, amasabune, imyenda, amasahani, siraje, amavuta yo kurya, amavuta yo kwisiga, uburoso, korogati.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi cyiganjemo ibicuruzwa bitandukanye abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi. Abakora umwuga w'ubucuruzi bashishikarizwa kugira ibicuruzwa byose abakiriya bakenera kugira ngo babashe kubibonera ku gihe kandi na bo bibashe kubona amafaranga nta handi bayajyanye.

Inzu y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo amavuta yo kurya, amavuta yo kwisiga, ibirungo bikoreshwa mu mboga, ubudodo bwo kudodesha. Ni byiza ko abacuruzi bose bagomba kugira ibicuruzwa byose kugira ababagana babashe kubibonera ku gihe.

Icyumba cyiganjemo ibiribwa bitandukanye nk'amavuta yo kurya ndetse n'amakaroni. Abakora umwuga w'ubucuruzi basobanurirwa ko ari byiza kugira ibicuruzwa byose kugira ngo ababagana babashe kubibona ndetse nabo babashe kunguka neza bityo babone inyungu iri hejuru.

Urujya n'uruza rw'abantu rwiganjemo urubyiruko ndetse n'abakuze bahuriye mu isoko ryiganjemo ibiribwa by'imbuto harimo: imineke, voka, inababara, amacunga, imyembe. Ni byiza ko isoko rigomba kubamo ibicuruzwa byose kugira ngo abahagana babashe kubibonera ku gihe.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi kiganjemo amavuta yo kurya ndetse n'amakaroni, abakora umwuga w'ubucuruzi bashishikarizwa kugira ibicuruzwa byose kugira ngo babashe kwakira neza ababagana kandi n'ababagana babashe kubona ibyo bakeneye byose babibonere ku gihe.

Icyumba cyiganjemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo isabune, inyanya, imigati, amavuta yo kurya, amavuta yo kwisiga, umunyu, ndetse n'ibibiriti. Abakora umwuga w'ubucuruzi bashishikarizwa kugira ibicuruzwa byose, kugira ngo ababagana babashe kubibonera ku gihe.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi kiganjemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo nka kore, intebe, ishakoshi, imodoka ndetse n'amasahani, ni byiza ko abakora umwuga w'ubucuruzi bagomba kugira ibicuruzwa bihagije kugira ngo ababagana babashe kubibonera ku gihe.

Uretse kuba abakirisitu bagana mu rusengero bagiye gusenga, padiri cyangwa se pasiteri, afasha abakirisitu kubona izindi serivisi zerekeranye n'iby'Imana. Ni byiza ko tugomba kugana padiri cyangwa pasiteri akadufasha kubona serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'ijambo ry'Imana

Mu cyumba gikorerwamo amasengesho kizwi nk'urusengero, abakirisitu bavuga ko ari byiza aba padiri cyangwa se pasiteri abafashije kumva ijambo ry'Imana. Haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abakirisitu babashe kuhagana nk'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo abakirisitu babashe kumva neza ndetse n'intebe bakoresha bicayeho na bibiriya bakoresha barimo basoma ijambo ry'Imana.

Uretse kuba abakiristu bagera mu nsengero bagiye gusenga, padiri cyangwa se pasiteri afasha abakiristu gusezerana, ni byiza ko tugomba kugana padiri cyangwa se pasiteri bakadufasha gusezerana neza kugira ngo tubashe kubaha imana ndetse tubashe no kumva amategeko agenga iby'abashyingiranywe neza.

Mu cyumba gikorerwamo amasengesho kizwi nk'urusengero haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abakirisito babashe kumva ijambo ry'Imana, twavuga nk'intebe abakisitu bicaraho ndetse na Bibiliya bifashisha igihe bari gusoma ijambo ry'Imana ,ni byiza ko buri mukirisito wese igihe aganye mu nzu y'Imana agomba kuba afite Bibiliya kugira ngo abashe kumva ijambo ry'Imana neza.

Uretse kuba abakirisitu bajya mu nsengero bagiye gusenga, padiri cyangwa se pasiteri abafasha no gukora ibirori bitandukanye harimo no gusezerana hagati y'umusore n'umukobwa, hakoreshwa ibikoresho bitandukanye kugira ngo ibyo birori bibashe kugenda neza, nk'intebe baba bicayemo, indangururamajwi yifashishwa ndetse na bibiliya yifashishwa mu gusoma ijambo ry'Imana.

Mu cyumba gikorerwamo amasengesho kizwi nk'urusengero, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abakiristu babashe kumva ijambo ry'imana neza. Twavuga nk'intebe abakirisitu bicaraho, aho padiri yicara se cyangwa pasiteri yicara ndetse n'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri muntu urimo aho ngaho wese abashe kumva. Ni byiza ko mu nsengero zose hagomba kuboneka ibikoresho byose kugira ngo abakristu babashe kumva ijambo ry'Imana neza.

Mu cyumba gikorerwamo amasengesho kizwi nk'urusengero, uretse kuba abaksitu bitabira bagiye gusenga, abakristu banajyamo igihe bagiye gushyingira, abantu babiri umugeni ndetse n'umusore. Ni byiza ko tugomba kugana insengero kugira ngo padiri se cyangwa pasiteri adufashe gushyingiranwa neza.

Uretse kuba abakirisito bajya mu nsengero bagiye gusenga padiri cyangwa se pasiteri abafasha kubona izindi serivisi zitandukanye, harimo nko kubasezeranya, haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kubasezeranya nk'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo abari aho bose babashe kumva ndetse na bibiliya bifashisha igihe bari gusoma ijambo ry'imana.

Urusengero rwubatse rukaba rushushanyijeho umusaraba ndetse iruhande rwaho hakaba hari abantu babiri, umugabo n'umugore, bavuga ko ari byiza kugana urusengero kugira ngo babashe kumva ijambo ry'imana neza.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteli, aho umukiriya yakirirwa haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumwakira neza, twavuga nk'intebe abakiriya bicaraho ameza ashyirwaho ibyo kurya, ndetse n'amasahani yifashishwa igihe barimo bashyiraho ibyo kurya.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi zigendanye n'ibyo kurya zizwi nka hoteli, aho umukiriya yakirwa haba ari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo uwo mukiriya abashe kwakirwa neza. Twavuga nk'intebe bamuha yo kwicaraho, ameza yo gutegura ibyo kurya ndetse n'amasahani bifashisha barimo bashyiraho ibyo kurya.

Mu nyubako zitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya zizwi nka hoteri hari ahabugenewe bashyira abakiriya igihe bamaze kurya, muri icyo cyumba haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo umukiriya aze kuruhuka neza, twavuga nk'igitanda aryamaho, intebe yicaraho ndetse n'indabo zimuha umuhumuro mwiza.

Ababyinnyi batatu bambaye amayogi ku maguru. Bakaba bafite amacumu mu ntoki ndetse bakaba bambaye n'imikenyero. Bakaba bari mu nzu yo gukoreramo imyidagaduro. Hakaba harimo intebe bavuga ko ari byiza gususurutsa abaturage kugira ngo babashe kwishima.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteli, haba hari ubusitani bwabugenewe, abakiriya baruhukiramo igihe bamaze kurya. ni byiza ko bagomba gushyira ibishushanyo bigaragaza ibyo bakora ndetse n'ibiryo bateka kugira ngo ababagana babashe gusobanukirwa neza.

Ibigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteli, haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abahagana babashe kubihabwa serivisi zitandukanye, twavuga nk'intebe bicaraho, ameza baterekaho ibyo kurya, amasahani bifashisha bari gushyiraho ibyo kurya ndetse n'abantu babakira kugira ngo babashe kubereka, aho bagomba kwicara.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi zigendanye n'ibyo kurya zizwi nka hoteri, hari icyumba cyabugenewe gishyirwamo abakiriya bakaruhukiramo igihe bamaze kurya. Icyo cyumba kiba kirimo ibikoresho bitandukanye bifasha umukiriya kuruhuka neza nk'uburiri aryamaho ndetse n'ameza yo gushyiraho ibintu by'iwe bigiye bitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteri, habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abakiriya babashe kwakirwa neza. Twavuga nk'intebe abakiriya bicaraho, ameza baterekaho ibyo kurya, amasanhani bashyiraho ibyo kurya, ibiyiko cyangwa se amafirusheti bakoresha barimo barya. Ni byiza rero uko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe kwakira abatugana neza.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi zigendanye n'ibyo kurya zizwi nka hoteli hari pasiparama yabugenewe abakiriya baruhukiramo igihe bamaze kurya, hakaba harimo ibiti by'amoko agiye atandukanye bitanga umuyaga ndetse bigatanga n'igicucu igihe babyicayemo.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi zigendanye n'ibyorya zizwi nka hoteli, hari ahabugenewe abakiriya baparika ibinyabiziga byabo ndetse mu nyubako hakaba harimo ibyumba bitandukanye kubera ko abakiriya baba ari benshi kugira ngo babashe kwirinda ubucucike bwabo.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi zigendanye n'ibyo kurya hari icyumba cyabugenewe umukiriya aruhukiramo igihe amaze kurya, icyo cyumba kiba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo umukiriya abashe kuruhuka neza nk'igitanda cyo kuryamaho, intebe yo kwicaramo ndetse n'ameza ateguyeho indabo zimuha umwuka mwiza.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteli, aho umukiriyaya yakirwa haba hatunganyijwe neza ndetse hateguyemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abashe guhabwa serivisi inogeye, twavuga: nk'intebe umukiriya yicaraho, ameza ashyirwaho ibyo kurya, amasahani yifashishwa bari gushyiraho ibyo kurya ndetse n'ibiyiko byifashishwa igihe bari kurya.

Mu nyubako zitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya, haba ibiryo bitandukanye ku buryo buri mukiriya wese aza akiyarurira ibiryo ashatse. Twavuga nk'umuceri, inyama, amakaroni, ibijumba, imyumbati, ubugari ndetse n'ibindi biryo bigiye bitandukanye.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya zizwi nka hoteli, haba hari ahantu habugenewe abakiriya bagomba kuruhukira hazwi nko mu busitani, ni byiza ko buri hoteli yose igomba kugira buno busitani bwiganjemo ibiti by'amoko yose, kugira ngo abakiriya babo babashe kubona ahantu baruhukira neza.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi zigendanye n'ibyo kurya zizwi nka hoteli, haba harimo ibyumba bitandukanye byifashishwa kugira ngo abakiriya baze kwakirwa neza, twavuga nk'ibyumba bi bakiramo igihe bari kurya ndetse n'ibindi babakiriramo igihe bamaze kurya bagiye kuruhuka.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteli, hari icyumba cyabugenewe bashyiramo abakiriya baruhuka igihe bamaze kurya, icyo cyumba kiba kirimo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda, intebe ndetse n'inzitiramubu ibarinda kurwara malariya.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi zigendanye n'ibyo kurya hari icyumba cyabugenewe gishyirwamo abakiriya igihe bamaze kurya bakaruhuka neza. Icyo cyumba kiba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo umukiriya abashe kuruhuka neza, nk'intebe yo kwicaraho, igitanda cyo kuryamaho, ndetse n'ameza yo gushyiraho ibikoresho by'iwe.

Mu bigo bitanga serivise zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteri, aho abakiriya bakirwa haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumwakira neza, twavuga nk'intebe abakiriya bicaraho, ameza atekwaho ibyo kurya, ibiyiko bikoreshwa bari kurya ndetse n'amasahani ashyirwaho ibyo kurya, ni byiza ko tugomba kwakira neza abatugana kugira ngo tubashe kugira isura nziza.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibigori bashimishwa n'ubwanacyaro bwa kizungu babazaniye kubera ko ngo bibafasha gutuma ibigori byabo bimera neza, nta gahuyu kajemo kubera imbeho cyangwa se imvura binyagirwa nabyo. Bavuga ko ari byiza kubera ko bibafasha kubona umusaruro wabo nta kibazo bihuye nabyo.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo: imyeyo, amabase, ibiziriko, imyenda ndetse n'ibikapu, abacuruza bavuga ko ari byiza kugira ibikoresho byose kugira ngo ababagana babashe kubona ibyo babaha ndetse babashe no kugira amafaranga menshi kuko nta handi baba bari buyajyane.

Igihingwa cy'umuceri ni igihingwa kigira umusaruro mwinshi kandi utubutse ndetse kikaba kinatanga amafaranga tukaba tunakirya. Rero abahinzi bashishikarizwa guhinga igihingwa cy'umuceri kugira ngo babashe kwikura mu bukene, bityo ubuzima bwabo bubashe kugenda neza.

Isoko ryiganjemo ibiribwa bigiye bitandukanye, ryahuriyemo n'abantu bagiye batandukanye, harimo abagabo, abagore, abana ndetse n'abakecuru, aho harimo ibiribwa nk'intoryi, inyanya, indagara, amashu, imineke, umunyu ndetse n'imyenda.

Ikigo cyiganjemo ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo imyenda harimo n'amashuka, abacuruzi basobanura ko ari ingenzi gucuruza amashuka y'ubwoko bwose kugira ngo ababagana babashe kuyabonera ku gihe bityo amafaranga yabo abashe kwiyongera.

Abakora ubucuruzi bw'umuceri, basobanura ko ari ubucuruzi bubungura kandi bukabaha amafaranga menshi mu buryo bwihuse. Basobanura ko ari byiza ko umucuruzi wese yagakwiriye gucuruza igihingwa cy'umuceri kugira ngo babashe kubona amafaranga menshi kandi buri umwe wese abashe kubona igicuruzwa ashaka.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko ryiganjemo: ibiribwa, ibyo kurya ndetse n'imyambaro yo kwambara. Abitabiriye iri soko basobanura ko habamo ibintu byose kandi buri wese icyo ashaka akibona kubera ko ari isoko rinini ryagutse, ririmo ibintu byinshi bitandukanye, haba ibyo kurya ndetse no kwambara.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka resitora, aho umukiriyaya yakirwa haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumwakira. Twavuga nk'ameza bamuterekeraho ibyo kurya, ibyo kurya bashyiraho, igikombe cyo gushyiramo icyo kunywa ndetse n'intebe yicaraho igihe atangiye gufungura.

Ibigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya harimo nka resitora, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwakira neza abagana, twavuga nk'ameza aterekwaho ibyo kurya bigiye bitandukanye ndetse n'intebe zifashishwa baha abakiriya ngo bicareho.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi zigendanye n'ibyo kurya zizwi nka resitora, mu cyumba abakiriya bakirirwamo haba hateguyemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo baze kubasha kumwakira neza. Twavuga nk'amezaza bateguyemo, intebe yicaramo, amasahani yo gushyiraho ibyo kurya, ndetse n'ibikombe byo gushyiramo icyo kunywa.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi zigendanye n'ibyokurya zizwi nka hoteli, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira babashe kwakira abakiriya neza. Twavuga nk'aho abakiriya bicara, ameza ategurwaho ibyokurya, amasahani bakoresha barimo bashyiraho ibyokurya, ndetse n'ibiyiko bifashisha barimo barya.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto basobanura ko ari umwuga mwiza kandi ubabeshejeho kuko bibafasha kubona amafaranga batungishije imiryango yabo buri munsi, bakomeza bavuga ko ari byiza ko buri muntu wese yashaka umwuga wo gukora kugira ngo abashe kwiteza imbere ubuzima bwe bubashe kugenda neza.

Abakora umwuga wo gutwara imodoka basobanura ko imirongo y'umweru bashyira mu mihanda ya kaburimbo ibafasha kwirinda impanuka za hato na hato, basobanura ko ari byiza kuko iyo bahageze babanza bagahagarara bakareba ko nta muturage ukeneye kwambuka kuko ifasha abaturage kwambuka igihe ibinyabiziga byahagaze.

Abatwara ikinyabiziga kizwi nka moto bavuga ko ari ingenzi kuko bibafasha no kurwa ibindi bintu bitandukanye usibye kuba batwara n'abagenzi. Basobanura ko buri muturage wese yagakwiye kugira igikoresho kimufasha kumuruhura kwikorera kugira ngo abashe kuruhura umubiri wiwe.

Abatwara ikinyabiziga cya moto basobanura ko ari ingenzi kuba barakorewe umuhanda kubera ko bibafasha kwirinda impanuka ziterwa no kugenda mu mihanda idakoze neza. Bakomeza bavuga ko ari byiza gutwara ikinyabiziga cya moto kuko bibafasha kugera aho bashaka mu buryo bwihuse badakererewe.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto, basobanura ko ari umwuga mwiza kandi bishimiye, kubera ko bibafasha kubona amafaranga atunze imiryango yabo ndetse bikanabafasha kubona amafaranga yo kwizigama, bityo bakabasha kubaho neza nta kibazo na kimwe bafite mu buzima bwabo kuko baba bafite uburyo bwo kubikemura.

Umumotari uhetse umugenzi akaba yegereye moto, iruhande rwe hakaba hari abagabo babiri, abakora uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto basobanura ko ari umwuga mwiza kubera ko bibafasha kubona amafaranga ababeshejeho bo n'umuryango wabo.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto basobanura ko ari ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabona amafaranga batungishije imiryango yabo ndetse bakabasha no kwizigama bityo iterambere ryabo rigatera imbere nta handi hantu bagiye gusabiriza.

Abakora umwuga wo gutwara ibinyabiziga ku magare, bavuga ko ari byiza kubera ko bibafasha kugera aho bagakwiriye kugera mu gihe cya nyacyo ndetse bakanaruhuka imizigo batwara bikoreye ku mitwe yabo, bakomeza bavuga ko ari ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabasha kubona amafaranga ababeshaho.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto basobanurirwa ko ari byiza kuba barakoreye imihanda nka kaburimbi kuko bibafasha kwirinda impanuka zitandukanye ziterwa no gukorera akazi kabo mu mihanda mibi, bakomeza basobanura ko ari umwuga mwiza kubera ko bibafasha kubona amafaranga atunze umuryango wabo.

Abantu benshi bari mu muhanda higanjemo abatwara abagenzi kuri moto, hirya yabo hakaba hubatse inzu igaragara ko ari isoko, iruhande rwe hakaba hari abantu barimo bagenda ndetse bakaba begeranye n'ahantu bacururiza amayinite.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari, basobanura ko ari ingenzi ko abayobozi iyo baje bakabibutsa inshingano zabo nk'abatwazi b'ibinyabiziga, bibafasha kwirinda impanuka zitandukanye ziterwa no kutubahiriza amategeko agenga ibinyabiziga mu muhanda.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto basobanura ko ari ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabona amafaranga batungishije imiryango yabo. Bityo bakabasha no kwizigamira ubuzima bwabo bukagenda neza nta handi hantu bagiye gusabiriza.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto, bavuga ko ari umwuga mwiza kandi ubabeshejeho, bakavuga ko ari byiza kugira umwuga wo gukora kugira ngo babashe kwiteza imbere, babashe no gukemura ibibazo bigiye bitandukanye. bavuga ko ari byiza kandi bishimira imihanda myiza baba babahaye yo gukoreramo akazi kabo.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bavuga ko ari umwuga mwiza kandi bishimiye, kubera ko ubaha amafaranga bakenera mu buzima bwa buri munsi, bakabasha kwiteza imbere, bityo bagatunga imiryango yabo. Bavuga ko ari byiza kubera ko bibafasha no kwikura mu bukene.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto basobanura ko ari ingenzi gukorerwa umuhanda neza, kubera ko bibafasha kwirinda impanuka zitandukanye ziterwa n'uko hari imihanda mibi. Ni byiza ko tugomba kwita ku baturage tukabagezaho ibikorwa remezo harimo imihanda, haba mu mujyi ndetse no mu byaro, kugira ngo tubashe gusigasira ubuzima bwabo.